Amasoko yo ku mihanda, turabona imashini, tukabona akameza bacururizaho amamashini badodesha imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu, ibigagaragara ntabwo iratangira neza, gusa tukabonamo n'imitaka, gusa ni isoko ribera ku muhanda, ikigaragara.

Isoko barimo abacuruzi harimo n'abahaha hano baracuruza ibitunguru, baracuruza inyanya, baracuruza ibintu bitandukanye imbuto urujya n'uruza rw'abantu bacuruza mbega.